Ahagaragara kimwe mu gikoresho gikoreshwa n'abana bo mu mashuri y'inshuke ako gakinisho karimo amabara agiye atandukanye, harimo move, icyatsi, umutuku ndetse n'umuhondo.

Ahazwi nk'ahiga abana b'inshuke hagaragara amashuri yubatse neza cyane, hagati mu kibuga hakaba harimo icyicungo ndetse n'ubusitani bwiza.

Uduteremunsi twifashisha mu kubika icyo kunywa cy'abana biga mu mashuri y'inshuke, kuko ibyo kunywa bibategurira mu dukoresho dufite isuku, kandi turi mu mabara atandukanye.

Akagare gatwara abana b'impinja baryamyemo mu nzira bari kumwe n'ababyeyi babo babasunika, gafite amabara y'umutuku, amapine y'umukara ndetse n'ibyuma bigiye bigakikije.

Ahazwi nko ku ishuri ry'incuke hari rimwe mu mashuri rifunguye, ku muryango waryo haragaragara ibishushanyo, ku ruhande rumwe hariho agasumbashyamba ndetse n'ibiti, ku rundi ruhande hashushanyijeho umwarimu bigaragara ko ari bimwe mu bikoresho bifashisha bigisha abana.

Umugani wa bakame n'impyisi ni umugani uryohera abana iyo bari kwiga isomo ry'ikinyarwanda ukaba ukunze gukoreshwa mu mashuri y'inshuke aho abana batega amatwi mwarimu mu gihe ari kubasomera.

Ahazwi nk'ahigishirizwa abana b'inshuke, hagaragara abana benshi cyane, bafite amakayi mu ntoki ndetse n'abarimu babo, bahagaze imbere y'ishuri risize irangi ry'ubururu ku madirishya ndetse no ku nzugi.

Ahazwi nko ku ishuri ry'incuke, haragaragara umwana w'umuhungu wambaye umupira w'imbeho uri kwigana neza neza igishushanyo cy'umunyeshuri gishushanyije kuri rimwe mu ishuri bigiramo.

Ahazwi nk'aho bigishiriza abana b'inshuke haragaragara ku bikuta ko baba baragiye bashushanyaho bimwe mu byo biga urugero nk'aho ndi kubona hashushanyije ifi.

Bimwe mu bishushanyo abanyeshuri bo mu mashuri y'incuke bakunze gukoresha bareba, kugira ngo bumve ko ari abana bamaze kujijuka. Aho bitegereza igishushanyo ubundi bakabwira umwarimu wabo icyo bari kubonaho.

Ku muhanda ahari amazu y'ubucuruzi, hagaragara imiryango ibiri ifunguye, hanze muri parikingi hakaba haparitse moto iticayeho umuntu, hakaba hanateretse umufuka impande y'iyo moto, ku muryango w'iduka rimwe muri ayo hahagaze abagabo babiri.

Ku kibaho haragaragara umwana w'umuhungu uri kwandika inyajwi ndetse n'ingombajwi bigaragara ko ari mu mashuri y'inshuke akaba yambaye umwenda wo hejuru wa karokaro.

Ahazwi nk'ahigishirizwa abana b'inshuke, ndi kubonamo abantu babiri umukuru usa nk'aho ari kwigisha, imbutoya, ibiribwa byo mu rugo ndetse n'imbuto, ku gishushanyo, ndikubonaho ibishyimbo, inanasi ndetse n'imineke n'ibinyomoro.

ZAkagare gasa nk'aho gakozwe mu nsinga, kagaragara ko ari umuntu wagakoze, kakaba ari kimwe mu cyifashishwa mu kwigisha abana bo mu mashuri y'inshuke, bigaragara ko bituma bakura mu mutwe nabo bagatangira kwihangira utuntu tumwe na tumwe.

Ishuri ry'inshuke rifite inyubako nziza cyane n'ubusitani ku ruhande, hirya yaho hari ibiti bisa nk'aho bugamamo izuba, ndikubonamo abanyeshuri bambaye hejuru umweru, hasi ubururu bikaba ari ibintu bishimishije bifite ireme.

Mu ishuri rimwe mu mashuri abanza haragaragara umwarimu wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'abanyeshuri bicaye mu ntebe, bamwe muri bo bakaba bamanitse kugira ngo bamusubize ibyo yabababajije.

Mu mashuri abanza ni amwe mu mashuri akunze gukoresha ibikoresho nk'amararate, hano hagaragara amarate agiye atandukanye, akoze nka tririnyagre hari akoze nk'igice cy'uruziga ndetse nidende bacisha umurongo.

AAbanyeshuri babiri bari kuvuga ku bintu by'ingenzi ndetse bishimira mu masomo yabo harimo uw'igitsina gabo ndetse n'uw'igitsina gore ubona ko bafite amakayi mu ntoki ndetse bambaye imyambaro y'ishuri.

Nk'ibikoresho bigiye bitandukanye harimo taye kereyo, amakereyo, umukasi, ibikureri, amabike, amakayi ndetse n'ibindi ntabashije kurondora bisa nk'aho ari ibikoresho bikoreshwa mu mashuri abanza.

Inyuguti zigiye zitandukanye ndetse n'imibare irimo isaha nk'uko bigaragara hano, ni bimwe mu byifashishwa mu kwigisha abana bo mu mashuri abanza.

Ahagaragara amamashini menshi cyane azwi nka laputopu kaba ari mu ishuri rya computer lab rifasha abanyeshuri bo mu mashuri abanza kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga.

Ibikoresho bikoreshwa mu mashuri abanza, hagaragara boate matematical, irimo kommpa ebyiri ndetse n'amarate agera kuri ane agiye atandukanye, creyo, ndetse na gome na tae cleo.

Rimwe mu mashuri abanza haragaragaramo ibikoresho bigiye bitandukanye, abanyeshuri bifashisha, bari kwiga kandi buri meza ikaba iriho agatebe umunyeshuri yicaraho agiye kwiga.

Ibikoresho bikoreshwa mu mashuri abanza, ndahabona ingombajwi zigiye zitandukanye, imakasi, igishushanyo cya pome, amakureri ndetse n'utundi tugiye dutandukanye.

Ahagaragara agakapu gakoze muri forume y'inanasi, urabona ko bafite ibara ry'icyatsi hasi ndetse hejuru ku mutwe hakagira ibara rya move ndetse n'imashini ku ruhande.

Abanyeshuri babiri harimo umukobwa n'umuhungu biragaragara ko bari guhabwa ibihembo by'uko bakoze neza mu mashuri abanza, bakaba bari muri kimwe mu cyumba cy'abayobozi babo aho ku ishuri.

Ahagaragara ibitabo binyuranye byo mu mashuri abanza, ndabonamo iby'isomo ry'Ikinyarwanda birimo umugani Uwera urugero rwiza, bikaba bifasha abana gusoma neza ndetse no kwiga ku byerekeye u Rwanda rwo hambere.

Imwe mu myitozo bamwe mu mashuri abanza bakora yitwa nk'ibihanga, ndi kubonamo ibintu bigiye bitandukanye karoti, ibigori, abana, ibikombe bikaba bibafasha kubara ndetse no gusobanukirwa imibare.

Agatabo ko mu mashuri y'incuke kaba gakubiyemo amasomo agiye atandukanye, gafasha abana gusoma neza ururimi rw'ikinyarwanda kandi bakigiramo inyajwi ndetse n'ingombajwi bigiye bitandukanye n'imigani migufi ndetse n'imiremire.

Ahazwi nko ku mashuri abanza haragaragara abantu batatu basa nk'aho bari guhererekanya ikintu, babiri muri bo umwe igitsina gore hamwe umwe ni igitsina gabo bari ku mashuri ahantu hari inyubako nziza z'amashuri.

Ahagaragara amashuri abanza hanze mu busitani ndabonamo ahari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ryubakiye neza, amwe mu mashuri akaba afite inzugi zisa umuhondo ndetse na zimwe zisa icyatsi, ni ukuvuga ko zifite amarangi agiye ahuje n'ari mu idarapo ry'igihugu.

Ahazwi nko ku mashuri yisumbuye inyuma y'amashuri haragaragara abanyeshuri bagize ikigo cyose bakubiye ahantu hamwe basa nkaho hari ibyo bari kwitegura kubwirwa.

Ishuri ryisumbuye rizwi rifite inyubako nziza cyane kuko ari igorofa rya mbere n'irya kabiri haragaragaramo hagati mu kibuga umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umweru.

Rimwe mu mashuri yisumbuye hagaragara abanyeshuri bambaye umupira y'imihondo ndetse n'abambaye amashati y'imyeru hasi bakaba bambaye kaki, mwarimu ari ku kibaho ari kwandika note naho abandi nabo bari gukurikira ibyo mwarimu yanditse.

Ahazwi nk'ahiga abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye ni ukuvuga segonderi, mu kibuga haragaragara abanyeshuri bambaye imipira y'icyatsi bakaba bazamuye amaboko, bamwe barahagaze abandi baricaye.

Mu ishuri rya segonderi ndi kubonamo abanyeshuri bambaye amashati y'umweru n'abatica bicaye imbere yabo bari kwiga, basa nk'aho bari muri dibeti ku bintu bigiye bitandukanye.

Ahagaragara abanyeshuri benshi cyane bo mu mashuri yisumbuye, urabona ko bari gufata ifoto y'urwibutso hagati yabo hakaba hari abayobozi batandukanye ndetse n'abo mu nzego z'umutekano.

Abanyeshuri bo mu mumashuri yisumbuye ni abanyeshuri baba bambaye neza imyenda isa kandi isukuye nk'uko turi kubibona hano abanyeshuri barasa neza bambaye kimwe ndetse bari mu gikorwa kimwe cyo gushyira hamwe.

Ahazwi nk'ahantu hateranira abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bari gukoreshwa inama, haragaragara abanyeshuri benshi cyane, higanjemo abambaye imipira y'ubururu ndetse na bake muri bo bambaye imipira y'icyatsi.

Nk'uko tubireba hano turi kubona bamwe mu banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, nk'uko twese tubizi tujya kujya mu mashuri yisumbuye twarabonye ubumenyi bw'ibanze mu mashuri abanza, ubwo rero iyo wageze mu mashuri yisumbuye ni iby'ingenzi kuko ugenda ubona ibintu bigiye bitandukanye kandi bizagufasha mu mibereho yawe ya buri munsi.

Ahazwi nko ku mashuri yisumbuye haragaragara abanyeshuri bari hanze yayo, basa nkaho bari kuhakorera inama. Ndetse hagati muri bo hakaba hahagaze umugabo wambaye bitandukanye.

Ahazwi nko ku mashuri yisumbuye yubakishijwe amatafari ndetse akaba afite inzugi n'amabati bisa n'ubururu mu kibuga hagati hateyemo ubusitani hakaba hanashinzemo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ahazwi nk'hari inyubako z'amashuri yisumbuye mu busitani bwabo haragaragaramo abanyeshuri bambaye inifomu, amashati y'umweru n'amajipo y'umukara, hakaba ku ruhande hahagaze ugaragara nka tica wabo, ku ruhande rwo hepfo hakaba hahagaze umubikira.

Imbaga y'abantu benshi higanjemo abanyeshuri ndetse n'abarezi babo haragaragara aho bari gufata ifoto y'urwibutso hagati mu ishyamba ahagaragara nk'ikibuga.

Ahagaragara nko ku ishuri ryisumbuye hagaragara umunyeshuri uri gukora pratike bigaragara ko imbere ku meza hariho ibikoresho ndetse nawe we akaba afite ibyo ari gusobanura yagezeho.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye nk'uko bagaragara hano mu mashati y'umweru ndetse abenshi muri bo bakaba bambaye imyenda yo hasi yirabura bakeya, bakaba bambaye kaki bisa nk'aho ibigo bitandukanye.

Hamwe mu ishuri ryigisha imyuga mu mashuri yisumbuye haragaragara ikibaho cyabugenewe cya wayite bodi bandikishaho ikaramu yabugenewe ndetse bagasibisha kimwe mu gisisho cyabugenewe.

Ahagaragara abanyeshuri bambaye imyambaro igaragaza ko basoje amashuri ya kaminuza bafite amaseritifika yabo mu biganza ubona ko ari igikorwa bishimiye kandi cyubaka igihugu.

Kimwe mu cyumba kigiramo abanyeshuri bo muri za kaminuza ndabona ahicaye umunyeshuri uri kuri mashini laptop, iteretse ku meza yambaye ikote ndetse afite n'ibisuko ku mutwe.

Ahazwi nko ku mashuri ya kaminuza, haragaragara abanyeshuri bakuze, bari hanze y'iyi nyubako, basa nkabategereje icyo gukora, bambaye imyambaro igiye itandukanye.

Ikibumbano kigaragara ahari abanyeshuri bo mashuri yisumbuye, bikaba ari bimwe mu biba byakozwe n'abanyeshuri bari mu gukora puratike ni ukuvuga bimenyereza ibyo biga.

Icyumba kimwe cyo ku mashuri yisumbuye haragaragaramo abanyeshuri batatu babiri muri bo baricaye ku ntebe zisa ubururu, umwe arahagaze asa nk'aho bari ukuganira ku masomo.

Ahagaragara inyubako y'amwe mu mashuri yisumbuye ndahabona umusore wambaye imyenda yirabura ari kumanuka kuri esikariye agana hasi iyo nyubako ikaba isize irangi ry'umweru.

Imbuto zitandukanye harimo umuneke, inanasi ndetse n'inyanya, ni kimwe mu gishushanyo ndi kubona ahazwi nko ku mashuri yisumbuye, bikaba bikorwa n'abanyeshuri mu gihe bari mu isomo ryo gushushanya.

Ahazwi nko kuri kaminuza, hagaragara ubusitani bwiza ndetse bukorewe isuku, n'inyubako hirya yabwo yubatse neza ndetse y'igorofa ebyiri, isakaje amabati atukura n'amatara mu kibuga.

Ahazwi nko kuri kaminuza, niho hantu higa abanyeshuri bambaye imyenda isanzwe ndetse buri umwe akaba yicaye ku ntebe ye ndetse n'imeza, asangiye na mugenzi we, bigaragara ko hano muri iri shuri buri umwe yisanzuye, ntawubyigua undi.

Ahagaragara ubusanduku bubiri, bukoze mu byuma ndetse n' akameza kari ku ruhande, akaba ari bimwe mu bikoresho biba byakozwe n'abanyeshuri biga imyuga, ndetse n'abiga za kaminuza mu buryo bwa politiki, kugira ngo bimenyereze ndetse bakomeze kugira ubumenyi burushijeho ku masomo biga.

Abanyeshuri bigaga muri kaminuza y'u Rwanda basoje amashuri yabo nkuko bigaragara bambaye imyambaro yabugenewe, bambara bagiye gufata impamyabushobozi yabo. Urabona ko bafite imvaho babiri bari imbere, basa nkaho bari kuvuga indahiro ndetse abandi nabo bakabasubimo.

Ahagaragara igishushanyo cy'ubugeni ubona ko gisize amarangi agiye atandukanye bikaba bigaragara mu mashuri yigisha ubumenyigiro ndetse n'imyuga.

Ahazwi nko ku mashuri yisumbuye hagaragara inyubako nziza ifite igorofa hejuru ndetse ikaba ifite ubusitani hanze hari na pubele bajugunyamo imyanda mu mbuga hakaba harimo amapave.

Kwiga mu mashuri ya kaminuza ni ibintu by'ingenzi cyane kuko byigisha abantu gushyira hamwe nk'uko bigaragara hano hari timu y'abantu batandatu bafite amabike mu ntoki ndetse n'amakayi n'imashini imbere yaho basa nkaho bari gukorera hamwe nk'umukoro wo mu ishuri cyangwa gusobanurirana.

Amashuri y'imyuga ndetse na za kaminuza ni amwe mu mashuri ashishikariza abantu gukora ibintu bijyanye n'ubugeni, guhanga udushya ndetse no kwihangira imirimo, bakaba ari ibintu batoza buri muntu wese ubashije gukandagira muri iryo shuri. Ni ibintu byiza cyane kandi bituma umuntu yitinyuka akagera kuri byinshi.

Ahazwi nko ku mashuri yisumbuye, hagaragara ahari icyapa cyanditseho recture room, bikaba bisobanura icyumba cy'abarimumu gisize ibara ry'icyatsi, ndetse n'icyapa kiri mu ibara ry'umweru handikishijwe umukara.

Rimwe mu ishuri ry'ahagaragara ikigo cy'amashuri yisumbuye, ndi kubona intebe iranditseho urupapuro rwa depulikata rwanditseho rusa nku rwanditseho ibibazo ndetse n'agakarine hejuru yarwo.